Abana b'abahungu n'abakobwa bari kunywa ku mazi ari kuva mu kigega, hari gufatwa ifoto inyuma hari amabati akikije aho hantu bari.

Muganga uri kuvura umwana ufitwe na mama we wambaye ibitenge, bisa nkaho afite ibibazo uwo mwana mutonya.

Abagore mu ngeri zigiye zitandukanye, bari ahantu mu cyumba cy'inama, aho bisa nk'aho bose bishimye imbere yabo kandi hasa nk'ahateretse amazi.

Abagabo, abagore n'abakobwa mu ngeri zigiye zitandukanye, aho bari kubwira bari no gutanga ibikoresho bigiye bitandukanye, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ku rubyiruko.

Ryamye kuma matora aho ibyo bitanda ari ibyabarwayi biryamaho abantu barembye ukaba wajya kwa muganga mu gihe warembye bakagufasha.

Ahantu bisa nk'aho ari ahantu ku bitaro ushobora kuba wakivuriza mu gihe ubashije kubagira ikibazo, abagabo, abagore n'abakobwa, bahagaze bambaye udupfukamunwa.

Kigina ahantu ushobora kuba wabagana bakabasha kuba bakwitaho ku buzima nta kibazo, ku buryo ushobora kuba wajyanayo umuntu wawe urwaye bakamwitaho.

Inzu cyangwa se icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga, aho kukigushyiramo ukabasha kuba wavurwa mu gihe ukomerewe n'indwara zitandukanye.

Inzu ishobora kuba yapimirwamo ikabasha kuba yareberwamo ibijyanye n'imiti, aho ushobora kuba washaka imiti ukabasha kuba wabagana yujuje ubuziranenge.

Te iri mu gikapu, aho ushobora kuba wayifashisha mu gihe ushobora kugira ibibazo bitandukanye birimo nko kurwara umutwe, gukomereka cyangwa se ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Umugabo usa nk'aho ari mu gasiporo, ari kurambura bimwe mu bice by'umubiri we, yambaye inkweto, isengeri, ipantaro, ari kubikora neza.

Ibintu biri mu gapapuro basa nkaho bari kuvanga, ibyo bikaba bivuze ko bishobora kuba ari imiti cyangwa ibindi bintu bisanzwe biri aho ngaho, bishobora gukoreshwa mu miti n'ibindi.

Inyabarasanya zishobora kuba zakoreshwa mu gihe umuntu agize igikomere aho ariho hose ku ivu ku kuguru ku kirenge, ukabasha kuba wayifashisha kuko ari imiti ya Kinyarwanda.

Imiti isa nk'aho ari iya kinyarwanda ikoreshwa ku bantu bafite ibibazo byabakomereye aho ushobora kuba wagana bimwe mu byicaro cyangwa se abayikora bakayiguha.